Abagabo bari mu inama harimo n'umugore, imbere yabo hari amazi, terefone, na mudasobwa, biteretse ku meza ku mpande hari hasa ubururu n'umweru

Ndikubona icyumba kirimo abantu basa nk'aho bari mu nama, hari abicaye imbere, hari n'abicaye bari kubwirwa, bose bicaye ku ntebe, abicaye imbere mu mpande zabo hari udukarito tw'umweru, bakaba bicaye ku ntebe zis kaki, basa nk'abari kwiga umunsi wa Afurika n'amakuru yawo.

Abantu basa nk'abari mu inama, bicaye batandukanye buri wese yicaye ku ntebe ye, hari ab'imbere ya bo hari amazi n'imeza, hasi hasa umutuku, icyatsi n'umuhondo, bambaye n'amabara atandukanye y'imyenda.

Hariho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, ndikubonaho urubuga rwa Facebook, ndikobona amagambo yanditse mu mabara y'umweru amagambo yanditse mu mabara y'umukara interuro zanditse mu buryo bw'imirongo itambitse igishushanyo cy'imashini.

Ni ubutumwa bwanditse ku ibara ry'umweru n'ubururu. Ninde ufatwa nka nyiri umutungo utimukanwa? Nyiri umutungo utimukanwa bavuga umuntu wanditswe nka nyiri uwo mutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira k'umutungo.

Abantu bafite ibikarito imbere yabo ndikuhabona insinga, bamwe imbere yabo hari za mudasobwa, abandi hari udikarito tugiye kumera nk'amabase, hasi mu nyubako harimo hari amakaro hanze hari ibyatsi n'ibiti.

Kubona amazu imbere yabo hari abantu, ibitaka, ibyatsi, ibyapa. Hejuru y'ayo mazu har'amapoto atwara insinga, hari n'ibiti, ndi kuhabona indobo, kandagira ukarabe n'ibindi.

Hano ku iyi foto ndi kubonaho ibiti, ndi kubonaho ibyatsi, ndi kubonaho indabo, ndi kubonaho icyapa, ndi kubonaho amapoto, ndi kubonaho amatsinga, ndetse ndi kubonaho n'urutoki, ndi kubonaho n'amazu inyuma ndi kubonaho

Umuhanda urimo abantu... umuntu uri ku igare urimo n'imodoka ku impande hari hari amazu mo hagati hari ibiti hejuru hari amapoto atwara itsinga z'amashanyarazi.

Abantu batatu basa nkaho barigani hari itara riri kwaka hirya yabo hari igishushanyo, umwe yambaye imyeru y'imikara n'iy'umweru bambaye n'utuntu ku maso ahantu bari hari irange rijya gusa umuhondo.

Kubona umuhanda urimo imodoka n'abantu, imodoka y'umutuku n'abantu benshi mu mpande hari ibiti, imbere y'imodoka hari abantu bambaye imukara n'ingofero, basa nkaho bari kwirinda. Bafite umupira uri kuvamo amazi bashobora kuba bari kuzimya ahantu runaka, hari amazu ari inyuma yabo.

Umumotari mu muhanda, icyapa kerekana ikerekezo, ibyatsi umuhanda, amabuye, amazu ibiti, n'amapoto atwara amashanyarazi, insinga, n'imirongo mumuhanda, umukara n'umweru, birahagije.

Umuhanda urimo abantu bari ku mapikipiki, amamodoka, abantu bari kugenda n'amaguru, ku mpande hari amashyamba, amapoto atwara insinga z'amashanyarazi.

Ndikubona umuhanda urimo imodoka y'ikamyo y'umweru ihetse ibintu mo m'imbere bisa nk'amatiyo cyangwa inkombo, nkabona ibiti biri hirya y'umuhanda, ibiti birebire nkabona ibyatsi hino y'umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka n'abamotari bari ku mapikipiki, eeeee kirya hari izindi modoka, hirya y'umuhanda hari ibyatsi, hino hari umuyoboro ucamo amazi mu butaka, hari amamotoka maremare n'abantu bari mu muhanda.

Ndikubona icyapa kerekana ko aho hantu umuhanda uri uzenguruka, icyo cyapa gishinze ku ipoto, gikozwe mu ibara ry'ubururu n'umweru, hasi yacyo hari ibyatsi, ku ruhande rwarwo hari igikuta giteye umucanga.

Imodoka nyinshi ziparitse kuri sima, nkabona amazu atandukanye n'igiti, akayira gacamo amazi.

Ndi kubina inzu ifite igipangu cy'umukara, inzugi z'umukara, hasi ni udutafari twa sima , ndi kubona ibiti mu mpande mwo mo imbere harimo ibiti inzu ya konoshi.

Ndabona inyubako, nkabona hasi inyubako mu mpande hari sima, muri iyo nyubako harimo imodoka n'ibikuta bijya gusa umukara.

Ifoto icuritse irimo amazu, imihanda, uturongo dutatu tw'aho abanyamaguru bambukira, abantu benshi, amatara yo ku mihanda w'ubururu yemerera abantu kwambuka, umuhondo hari ibyapa byanditseho eyateri n'amapoto atwara amashanyarazi.

Aha ni ku muhanda w'ibitaka urimo imodoka, ukaba urimo indamyo ku muhanda n'ibiti, uri mu giturage ahantu hari amazu y'amatafari ahiye, hari n'insinga z'amashanyarazi zigaragaza ko hari umuriro.

Umuhanda ucuritse wa kaburimbo cyangwa hasi hari udutafari, hari abagabo bari ku mamoto bari mu muhanda, cyangwa abagabo bari kumapikipiki, kumpande hari ibiti, hakaba ibyatsi, n'amapoto atwara amashanyarazi.

Ndi kubona umuhanda usa nkaho ucuramye, ucuramye harimo amamodoka, amamoto, ibyapa, kumpande y'uwo muhanda hari irange ry'umukara n'umweru, har'ibiti, har'ibyatsi biri hino no hirya y'imihanda.